Inzu nziza cyane, inzu ifite irangi rigiye gusa umuhondo, ifite amabati y'icyatsi. Inyuma gato hakaba hariho idarapo ry'igihugu cy'u Rwanda ririmo: ubururu, umuhondo, n'icyatsi. Inyuma gato hakaba hari amapave meza cyane.

Inzu nziza cyane, inzu ifite ibara rirya gusa umweru, inzu ifite amabati gicyatsi, imbere gato hakaba hari amadarapo abiri harimo idarapo ry'igihugu cy'u rwanda, hino gato hakaba hariho ibyatsi bigiye bitandukanye.

Inzu nziza cyane, inzu ya sima, iteye sima nziza cyane hasi, ifite irangi ry'umweru mu bikuta, kandi ifite parafo nziza cyane y'umweru, inzu tukaba tuzifashisha tuzituramo, ndetse tukaba tuzibikamo n'ibindi bigiye bitandukanye.

Inzu nziza cyane, inzu yamatafari ahiye, imbere gatonya hakaba hariho umugabo mwiza cyane, ufite umusatsi w'umukara, wambaye ishati y'amaboko n'ipantaro igiye gusa na kaki, ni inkweto z'umukara akaba ahagaze ku makaro.

Inzu nziza cyane, inzu ya sima, inzu ifite icyapa cyanditseho ngo inshingano n'indangagaciro ziranga uburezi muri Gs kampanga, inzu tukaba tuzifashisha turi kuzituramo ndetse no kuzigiramo.

Abana beza cyane, abana bagiye batandukanye, abana birabura, harimo umwe ufite ibiganza byirabura, bakaba bafite ibikinisho bigiye bitandukanye, hariho igikinisho cy'akamodoka gafite ibara ry'umutuku.

Abantu beza cyane, abantu bagiye batandukanye bicaye mu ntebe nziza cyane, imbere yabo hariho ameza meza cyane akozwe mu biti, bambaye amashati y'umweru, ndetse hasi bambaye amapantaro ya kaki, imbere yabo hariho undi wambaye ikositimu nziza cyane y'umukara.

Inzu nziza cyane, inzu yubakishije sima, ifite irangi ry'umweru, imbere hariho ikibaho cyiza cyane, ikibaho cy'umukara, harimo n'intebe zitandukanye, zikoze mu biti ndetse n'ameza ashushananyijeho idarapo ry'igihugu cy'u Rwanda harimo ibara ry'umuhondo, ubururu n'icyatsi.

Abantu beza cyane. abantu birabura bagiye batandukanye harimo umwe wambaye ishati y'umweru ndetse n'isarubeti y'ubururu ufashe icuma mu ntoki hirya gato hakabaho undi wambaye ga z'umweru nu wambaye isarubeti y'ubururu.

Abantu bagiye batandukanye, abantu birabura, harimo umukobwa wambaye isaha nziza cyane y'umukara, ufite ikiganza cyirabura, wambaye karuvati y'umukara ndetse n'ishati umweru. Hirya ye hakaba hariho undi mwana wambaye umupira ugiye gusa n'ubururu, uririmo akarongo k'umweru.

Inzu nziza cyane, inzu ifite ibirahuri byiza cyane bibonerana, imbere harikibaho cyiza cyane cy'ubururu, hejuru y'ikibaho hari isaha nziza cyane, harimo mu nzu udutebe twiza cyane ndetse n'ameza meza cyane tubakishije ibiti hariho n'ibyuma.

Abantu beza cyane abantu bagiye batandukanye harimo umukobwa mwiza cyane, ufite umusatsi w'umukara wambaye itaburiya y'umweru na ga z'umweru, hirya gato hakaba hariho umuhungu mwiza cyane uri kureba muri rayiti mayikorosikopi wambaye itaburiya y'umweru wambaye na ga z'umweru.

Abantu beza cyane abantu birabura harimo umuhungu wambaye rinete z'umukara, ufite umusatsi w'umukara imbere ye hari imashini. Hirya gatonya hakaba hariho umukobwa mwiza cyane. Umukobwa ufite umusatsi w'umukara wambaye isaha y'umutuku.

Abantu bagiye batandukanye, abantu birabura, harimo ufashe indobo y'umweru, hirya gatoya wambaye buruburaka n'ingofero y'ubururu wambaye n'amaboti y'umukara. Hirya gatoya hakabaho n'undi wambaye ingofero y'umuhondo, ndetse n'isarubati y'ubururu na bote sumukara.

Abantu benshi, abantu bagiye batandukanye, abantu birabura harimo ufite umusatsi w'injwiri, wambaye igisurubeti kigiye gusa n'umukara, hirya gatoya hakaba hari n'undi wambaye agapira k'ubururu n'igisarubeti kigiye gusa n'umukara.

Abakobwa abakobwa beza cyane, abakobwa birabura umwe wambaye linete ufite imisatsi miremire y'umukara, wirabura wambaye itaburiya y'umweru wambaye na ga z'bururu uri kwandika mu ikaye.

Abantu beza cyane abantu birabura hariho umugabo wambaye ishati nziza cyane y'amaboko yaburaka, n'ipantaro nziza cyane y'umukara n'inkweto z'umukara. Hino gato hakaba hariho kamera nziza cyane kamera twakwifashisha turigufata amafoto.

abantu beza cyane, abantu batandukanye harimo abagabo n'abagore, harimo umuhungu mwiza cyane ufite umusatsi w'umukara wirabura, wambaye isarubeti nziza cyane y'ubururu. Hirya ye hakaba hari umukobwa mwiza cyane ufite imisatsi miremire y'umukara izinze, na we wambaye isarubeti y'ubururu.

Inzu nziza cyane inzu ifite irangi rigiye gusa n'umweru imbere y'inzu gatoya hakaba hariho abantu bagiye batandukanye, hirya gatotoya hakaba hariho umukobwa ufite imiratsi miremire y'umukara, hirya ye hakaba hari n'umukobwa wambaye linete z'umukara, hirya hakaba hariho undi wambaye ekuteri mu ijosi.

Abantu benshi bagiye batandukanye birabura harimo umukobwa mwiza cyane ufite imisatsi izinze y'umukara, wambaye itaburiya y'umweru, imbere yabo hakaba hari imbwa igiye gusa n'umutuku bari gukingira.

Abantu beza cyane, abantu birabura bagiye batandukanye imbere gato hariho uwambaye agapfukamunwa k'umutuku hirya ye hakaba hariho abandi bambaye ingofero z'umweru zirimo akarongo kagiye gu gusa umutuku hariho ugiye gukeka ibitunguru.

Umuntu mwiza cyane, umuntu wirabura wambaye ga z'umweru zirimo umutuku, wambaye n'itaburiya nziza cyane, iri mu mwenda wa kaki, uri gusudira ibyuma bitandukanye, ni nziza cyane, ifite umuryango wa metarike urimo ibirahuri byiza cyane.

Abantu bagiye batandukanye, abantu beza cyane birabura, harimo umwe usutamye wambaye ishati y'ubururu n'ipantaro y'umukara, hirya ye hakaba hariho undi ufashe muri moto wambaye ishati y'ubururu nawe, hirya gato hakabaho n'undi ufashe mu mahembe w'igikara, wambaye ishati y'ubururu.